Akazu gato kari mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, kamamaza sosiyete y'itumanaho ya airtel. Muri ako kazu hakoreramo umuntu ushinzwe kugeza ku baturage serivisi z'iyi sosiyete mu buryo bwihuse batagombye kujya ku cyicaro. Inyuma yako kandi hari undi mutaka nahowo mu mabara y'umuhondo w'iyindi sosiyete y'itumanaho ya MTN.

Utuzu duto twimukanwa tubiri kamwe n'umuhondo kandi ni umutuku duteretse imbere y'umuhanda nyabagendwa kugira ngo dufashe abagenzi bahanyura kubona serivise z'ibigo by'itumanaho aribyo MTN ndetse na Eyateri bitabasabye kugomba kujya ku byicaro byazo.

Ku muhanda nyabagendwa hari umutegarugori urio utambuka, afite mareti mu kuboko kwe kw'iburyo, iburyo bwe kandi hari utuzu twa sosiyete y'itumanaho yitwa Airtel, muri utwo tuzu hakaba bakoreramo aba ajenti cyangwa se abantu bashinzwe kwegereza abaturage serivisi z'iyi sosiyete y'itumanaho.

Akazu gato gateye ku muhanda nyabagendwa kari mu ibara ry'umuhondo kariho ibirango bigiye bitandukanye bya sosiyete y'itumanaho yitwa MTN, akaba ari akazu abantu bashinzwe kugeza serivisi ku baturage by'iyo sosiyete y'itumanaho byihuse bakoreramo.

Umuntu wicaye ku muhanda, akaba yugama izuba mu mutaka, uriho ibirango ku mpande zigiye zitandukanye za sosiyete y'itumanaho rya MTN, ikaba ifite aba ajenti mu bice bigiye bitandukanye, bageza serivisi zabo ku baturage mu buryo bwihuse.

Akazu k'umuhondo gateye k'umuhanda nyabagendwa. Imbere yako kazu hari umukobwa wambaye agapira k'umweru urimo uratambuka ndetse wambaye ipantaro. Muri ako kazu hatangirwamo serivisi za sosiyete y'itumanaho ya MTN .

Umugabo wambaye imyambaro y'icyatsi, ahagaze hagati mu nzu nini cyane yororerwamo inkoko zera. Uyu ukaba ari umushinga mwiza cyane, ukorwa n'abantu ku giti cyabo ndetse n'amakoperative, ndetse bamwe bashobora no kwaka inguzanyo mu mabanki kugira ngo bakore uyu mushinga bitewe n'uburyo ari mwiza cyane, kandi ari umushinga wunguka vuba.

Abantu benshi bicaye mu ihema ritakishijwe ibitambaro bifite amabara yo mu ibendera ry'igihugu, abenshi mu bicayeho bambaye udupira dusa tw'ubururu, abandi bambaye udupira tw'umukara. lmbere yabo hahagaze abagabo babiri umwe akaba ari guha undi icyemezo cy'ishimwe cy'uko yakoze ibikorwa by'indashyikirwa runaka.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abantu benshi, imbere y'aba bantu hahagaze abagabo batatu, babiri muri bo bambaye udupira tw'umukara turiho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda ndetse no ku ruhande rw'iburyo handitseho Akarere ka Nyagatare, byumvikane ko ari abakozi b'Akarere ka Nyagatare, hagati y'abagabo hari undi mugabo umwe ubona ko akuze wambaye ikoti ry'umutuku wijimye n'agapira k'ubururu ari guhabwa icyemezo cy'ishimwe cy'uko yitwaye neza mu bintu runaka.

Aho banywera inzoga hazwi nka bare. Kuri kontwari, imbere hateye intebe eshatu. Mugihe inyuma hari etajeri, iriho amoko agiye atandukanye y'amayoga. Hirya ya kontwari hatonze amakaziye, nayo azamo inzoga zitandukanye, ziva muri buralirwa. Hino gato ku rundi ruhande, ku gikuta hari insakaza mashusho, munsi yayo hari izindi ntebe ebyiri ndetse n'akameza gato.

Igishashi kinini kirimo amacupa mato, ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'umuhondo, ayo macupa akaba arimo amavuta yo kwisiga cyane cyane bakunda gusiga abana, ayo mavuta azwi ku izina rya Moviti.

Ihahiro rizwi nka butiki, iri hahiro rikaba ari rigari ryiganjemo ibicuruzwa bigiye bitandukanye cyane cyane iby'isuku ndetse n'ibiribwa, muri byo harimo nk'imiceri ndetse n'ibindi, imbere y'iryo hahiro haparitse moto ishobora kwifashishwa izana ibicuruzwa bimwe na bimwe abantu bahahira muri iri guriro bakenera.

Inzu y'ubucuruzi izwi nka butiki, muri iyi butiki hakaba higanjemo ibyo kunywa bigiye bitandukanye ndetse n'ibikoresho bike by'isuku, muri ibyo byo kunywa twavuga harimo amazi ndetse n'amaji y'ubwoko butandukanye, ay'amatunda, ay'imyembe ndetse n'ayinanasi.

Amazu y'ubucuruzi atondekanyije, imbere y'ayo mazu hateretse ibicupa byinshi cyane bya gaze byifashishwa abantu bateka, bukaba ari uburyo bugezweho abantu bakoresha bacana aho kumara amashyamba bashaka inkwi n'amakara bakifashisha gaze kugira ngo babashe guteka.

ihahiro rito rizwi nka butikI muri iyo butiki higanjemo ibiribwa ndetse n'ibikoresho by'isuku. Mo hagati muri iryo hahiro hahagazemo umusore wambaye agapira k'umuhondo, afitemo amabara y'umukara, ari guseka cyane ari kureba hanze bigaragara ko hari undi muntu bari kuvugana uri hanze ya butiki.

Akavido gato kangana na ritiro imwe k'amavuta yo guteka. Kuri ako kavido hakaba handitseho amagambo agira ati zahabu ishema mu Rwanda. Akaba ari amavuta yo guteka akorerwa inaha mu Rwanda ndetse ukaba wayasanga hirya no hino mu mabutiki atandukanye mu gihugu.

Urusengero rusakaje amabati y'umweru ndetse rukaba rukingishije inzugi z'ubururu ariko z'ibiti. Ku muryango w'urwo rusengero hegetse urugi rw'icyuma ruzwi nka metalike. Bigaragara ko rufite gahunda yo guhindura inzugi zikinze uru rusengero zari ibiti bagakingisha inzugi zigezweho za metalike cyangwa se inzugi zikozwe mu byuma.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko abasore ndetse n'inkumi ,bicaye mucyumba kimwe kigali ,bagiye bambaye imyenda isa ariko mu dutsinda udutsinda, hari abasore bamwe bambaye udupira tw'icyatsi turimo amabara y'umukara, inyuma yabo hari abandi bakobwa bambaye udusengeri twera, mu gihe inyuma yabo hari abandi basore nabo bakenyeye.

Kiliziya cyangwa se urusengero runini cyane kandi rugezweho muri urwo rusengero harimo intebe nziza kandi zikomeye urwo rusengero nta bantu barurimo, ruratatse neza kandi ubona ko rwubatse mu buryo bugezweho.

Icyumba kigali cya hotel cy'uruganiriro, muri icyo cyumba kikaba kirimo intebe nziza cyane amatara meza ndetse n'amarido, ibyo byose bikaba ari ugufasha abashoramari ndetse n'abandi bantu bakeneye kugira ibiganiro bituje kandi biri ahantu heza kuba binoze.

Icyumba giteguye neza cyane kandi kigari, muri icyo cyumba intebe ziganjemo ni umweru, ubururu ndetse n'umukara, ku gisenge k'icyo cyumba hatatseho ibyo twita ibipirizo by'umweru, icyo cyumba ni icyumba cya hoteli cyagenewe kwakira ibirori ndetse n'imyidagaduro.

Icyumba cya hoteli, gikunda kwifashishwa cyane cyane n'abakerarugendo ndetse n'abashoramari bagenda mu gihugu, kikaba ari icyumba giteguye neza, kirimo igitanda, gishashe neza n'amashuka y'immweruru ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze, umuntu ashobora gukenera.

Inyubako ngari cyane ya hotel, imbere y'iyo hotel hari ubusitani na bwo bugari. Amahoteli agira umumaro ukomeye mu kwakira abakerarugendo baza mu gihugu ndetse n'abandi bashoramari baza mu gihugu mu kazi kabo, uko amahoteli yakira abaza mu gihugu bishobora gutanga isura nziza cyangwa mbi ku banyamahanga.

Icyumba gishashe neza cyane n'amashuka yera ndetse n'inzitiramubu nayo ni uko. Amarangi asize ku bikuta by'iki cyumba nayo ni uko. Iki cyumba kandi kirimo ibindi bintu byinshi byiza bituma umuntu ukiraramo aba araye ahantu heza cyane. Amahoteli akunda gutunganya ibyumba byayo muri ubu buryo, kugira ngo barusheho kunezeza abaza bayagana.

Imbuga ngari kandi yisanzuye y'inzu icumbikira abagenzi cyangwa se Hoteli. Muri iyo mbuga harimo ibintu byinshi bitandukanye. Hari aho bogera hazwi nka pisinine, hari ubusitani bunini kandi bwisanzuye ndetse bwiza cyangwa se Jaride, hari aho baparika ndetse n'ahantu abantu bashobora kwicara baganirira. Ibyo byose ni bimwe mu bikururira abantu kuba bagana iyi Hoteli.

Icyumba cyiza kirimo intebe nziza kandi zigezweho zo mu ruganiriro. Muri icyo cyumba kandi harimo insakazamashusho iteretse hejuru y'akabati gato ,hejuru y'iyo nsakazamashusho hari ikindi gishushanyo nacyo cyiza cyane. Icyo cyumba giteguwe nk'icyagenewe gucumbikira abagenzi cyangwa se hoteli.

Amazu menshi y'ubucuruzi, ari ku muhanda nyabagendwa, aho haparitse abamotari benshi cyane nabo, ubona babizi neza ko aho hantu hagenda abantu benshi ndetse haza no guhahira abantu benshi, kuburyo bahaparitse bategereje abagenzi batwara.

Umugabo wambaye agapira k'umweru k'amaboko magufi ndetse n'ipantaro y'umukara, uwo mugabo atwaye moto ndetse yambaye kasike y'umutuku ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo ndetse inyuma ye hari inzu nziza cyane igaragara nkaho ari urusengero rw'idini runaka.

Umugabo uri kugenda mu muhanda akaba atwaye ikinyabiziga cya moto, yambaye kasiki mu mutwe we, yambaye agapira k'ivu ndetse n'ipantaro y'umukara, ari kugenda mu muhanda ugezweho wa kaburimbo.

Umumotari utwara moto y'amashanyarazi ugeze kuri sitasiyo aho bahindurira batiri. Ari kumwe n'umukobwa wambaye imyenda y'akazi, urimo umufasha kumuhindurira batiri yashizemo umuriro, ngo amuhe indi irimo umuriro.

Abagabo bane, babiri bambaye amasengeri yanditseho tagisi moto ndetse hariho n'ibirango bya sosiyete y'itumanaho ya MTN, hari n'abandi babiri bambaye kasiki na bo bigaragara ko batwara moto, inyuma yabo haparitse tagisi nayo itwara abagenzi kandi itegereje abagenzi ko baza kugira ngo ibatware.

Umumotari yicaye kuri moto ye afite amafaranga mu ntoki ari kuyabara, ku itako rye ry'iburyo afiteho agasakoshi k'icyatsi cyerurutse abikamo ayo mafaranga, yambaye ipantaro y'ikoboyi n'ikoti rya simirikwire ry'umukara.

Umushoferi utwaye imodoka y'ivatiri itukura, ageze aho abanyamaguru bambukira, hazwi nka zebura korosingi, hahagaze umupolisi, abashoferi bakaba bashishikarizwa kujya bitonda, igihe bageze hafi yaho, kugira ngo bataba bagonga umunyamaguru uri kwambuka.